Gutera umuti imyaka ni ingirakamaro, bituma udusimba dupfa kandi bitanga umusaruro mwiza cyane, kuko iyo uteye umuti udusimba turapfa, imyaka ikazamuka neza cyane bigatuma umusaruro wiyongera, ukabona umusaruro ushimishije

Gutera imiti ibihingwa ni ibintu by'ingirakamaro kanini cyane, iyo harimo udusimba turapfa, igihingwa kigakura neza, kandi kikazamukana umurava. Ni byiza ko ibihingwa byose ushobora guhinga ugomba kubitera imiti, kugira ngo ubone umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Guhinga ni ibintu bidufasha cyane, gufuhira imyaka ni byiza kandi ni ingirakamaro, bituma imiti n'imyaka, udusimba tuva mu myaka. Ni byiza rero guhinga bya kijyambere biradufasha cyane kandi bikaduha umusaruro ushimishije.

Abagabo bari gushyira ifumbire mvaruganda ku bigori fumbire mvaruganda ifite akamaro kanini cyane, ituma imyaka izamuka neza igakura igatanga umusaruro ushimishije.

Ifumbire mvaruganda ni ifumbire idufitiye akamaro mu buhinzi bwacu. Iyo uhinze imyaka ugashyiraho ifumbire mvaruganda, imyaka irihuta igashisha kandi igatanga umusaruro ushimishije.

amafi atanu, ane ni manini, imwe ni ntoya. Ni meza cane iyo umwana ayariye akura neza kubera ko agira intungamubiri nyinshi.

Amafi matoya ni ingirakamaro mu kuyateka, kandi ayaryoha cyane. Iyo ufite amavuta ukayatekamo, urayakaranga, ukayakarusha akuma, hanyuma ukayashakira ikirungo ukayasiga, ukayarya nta gufa na rimwe ririmo. Amafi ni meza cyane.

Ubwato ni ingirakamaro iyo uri ugenda aho kugira ngo uzenguruke ikiyaga, uhita wambukiramo hagati ugacamo mu bwato bigatuma urugendo rwawe ruba rugufiya, kuko uba wambukiyemo hagati ukagera hakurya ku nkombe ku wundi musozi.

Isamaki nziza cyane. Isamake zidufitiye akamaro kanini, gatuma turya indyo yuzuye, iyo uriye isamaki, ukayiteka neza, ugashyiramo isosi, ugashiramo n'ibirungo, uba uriye indyo yuzuye, ku buryo niyo uyigaburiye umwana afite ikibazo cy'imirire akura neza cyane.

Kurya amafi yagiye muri firigo, ntabwo ari byiza nk'uko warya amafi akiva mu kiyaga. Kubera ko aba amaze guta ubuziranenge, iyo agiye muri firigo akamaramo igihe kirekire. Mu gihe iyo uriye ifi igituruka mu mazi, iba ari ifi imeze neza kandi iri fureshi.

Amafi ni ibiribwa biryoha cyane, iyo ubiriye uba ufite imbaraga kandi ufite ubuzima bwiza, abana bafite ikibazo cya bwaki, iyo babahaye amafi n'isosi yayo, bakura neza cyane bameze neza, kandi bafite ubuzima bwiza, hehe na bwaki.

Indagara zumye zigira umumaro munini cyane ,kuko ziba zifite amagufa yaramaze kuma ,iyo uzikaranze ugiye kuziteka usanga amagufa yarashenjaguritse, ku buryo umwana uzimugaburira ntakibazo, ntihabemo uducumu tumwica.

Ifi ni ikiribwa kimeze neza cyane. Iyo ukiriye kiba kimeze neza， ku buryo iyo ugishyize mu mavuta kiraryoha， kikuma， wagihekenya ugasanga n'amavuta yahiye. Iyo usizemo n'isosi，iyo ukigaburiye umwana， mwana akora neza cyane， akazamuka neza n'umurava.

Amafi akawushije ni ingirakamaro iyo uri kuyarya uba wumva aryoshye cyane, kuberako baba bayashyize mu mavuta amagufa yose agashya akavamo. Iyo uri kuyahekenya uba wumva nta gufa na rimwe ririmo, Kandi kumva araryoshye cyane.

Isambaza n'udufi two mu mazi turya, tuba ari dutoya cyane dufasha abana gukura neza cyane iyo umwana afite ikibazo cy'imirire mibi, ukatumugaburira akura neza cyane akazamuka vuba vuba.

Imbuto n'ibiribwa bifite akamaro ku buzima bwacu, amafi, inyanya amaronji, indimu n'ibindi, biri mu bintu turya bikatugirira akamaro, ku buzima no ku mibereho yacu.

Agatanda baroberaho amafi. Ni agatanda kaba kameze neza cyane. Kadapfumuye ku buryo kuyakura mu mazi urikuyoza yumuka neza. Iyo amafi amaze kumuka ukayanika, uyashyira mu mavuta ugakawusha. Ukayahekenya ameze neza cyane, amagufa yahiye.

Ifi iriho y'ikirungo iyo uyiriye uba wumva waca n' intoki, iba iryoshye, ifite isosi, iryoshe kandi ifashe, cyane ko iyo wanyweye nk'inzoga ukayirya bituma ugira ubushake bwo gukomeza kunywa izindi nzoga kandi ntizigufate.

Isosi y'inyama irimo inyanya nyinshi, ni isosi ushobora kurisha ibiryo byose bitandukanye ubugari, umuceri, umutsima w'ingano, umutsima w'ibigori. ni isosi iba igaragara neza ku maso ku buryo iyo uyibonye wumva ushaka kurya.

Guhinga imyaka ku mirongo bitanga umusaruro ushimishije, kuko bituma ifumbire umenya uko uri burishyiremo rikazamukana n'imyaka, ni byiza rero guhinga imyaka dukoresheje gutera kijyambere, kuko bitanga umusaruro ushimishije.

Imboga n'imbuto ni ibintu bidufitiye akamaro cyane mu buzima bwacu. Imboga ziri mu bintu birinda indwara, iyo uziriye neza, bituma udahora urwaragurika ndetse n'imbuto ni uko. Ni byiza rero ko turya indyo yuzuye kandi iriho imboga.

Igiti ni ingirakamaro tukibazamo ibikoresho bitandukanye. Intebe, utubati, inzugi n'ibindi. Ni byiza rero gutera ibiti kandi tukabibungabunga, tukirinda kubitema, tukareka bigakura cyane, kugira ngo bizaduhe umusaruro mu minsi iri imbere.

Umucanga ni ingirakamaro, utuma amazu yacu tuyubaka agakomera kandi agafata, ugasanga inzu udashobora kuyitobora ngo itoboke, kubera ko twayihomesheje umucanga. Ni byiza rero kubaka amazu tukayahomesha umucanga.

Ibigori byamaze ubushenzi bwa mbere biteye hagati y'ikigori n'ikindi hari metero, ku cobo kimwe hariho ibigori bibiri gusa, byarakuze birazamuka birabyibushye cane, byatanze umusaruro ushimishije.

Umurima uvuyemo ibigori, ni umurima uba utegerejwe ko tugomba kuwusekera, kugira ngo tuzaze kuwutabiramo ibishyimbo. Iyo ufite ifumbire, uhita utera ku byobo ugashyiramo ibishyimbo bikaguha umusaruro mwinshi ushimishije, kubera ko kiba ari igikenyeri kandi mu bikenyeri uba warashyizeho imvaruganda n'imborera.

Igitari kinini cane kirimo ibiti byinshi bitandukanye: nyamweru n'ibindi by'icatsi. Giteye cegeranye ibiti ku bindi, barabitemye kugira ngo bashibure ibindi bizamukire rimwe icarimwe.

Igiti cyiza cyane cy'umunyinya. Igiti cy'umuyinya ni igiti abakecuru ba kera bakundaga kurya, iyo afite umuvuduko akayihekenya, umuvuduko uragabanyuka ku rugero ruto ruto.

Akamaro, rudufasha kwakira abantu, iyo ufite urutoki, uca ibitoki ugatara, ugakama urwagwa, ugahamagara abaturanyi bakaza mugasangira urwagwa. Twebwe abanyarwanda ni umuco wacu, turawukunda cyane.

Umurima munini uteye ibitunguru, ukikijwe n'urutoki rwinshi. Ibitunguru ibyatsi byarazamutse, bireshya n'ibitunguru. Ni byiza ko ibi bitunguru babihingira, bakabikuramo bino byatsi kugira ngo bize gukura neza.

ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi butanga umusaruro mu gihe gitoya, aho mu mezi atatu ibirayi biba byeze; ugakura, ukagurisha ukongera ugatera mu mezi atatu ;bikaba byeze ku buryo mu mwaka umwe ubuhinzemo ibirayi inshuro eshatu.

Guhinga ni byizayiza cyane, bituma umuturage yiteza imbere, akagira ibiryo mu rugo. Ni yo mpamvu igihe cyo guhinga iyo kigeze, buri wese agomba gufata isuka agahinga umurima we neza, kugira ngo ateremo imyaka, kandi azabona umusaruro ushimishije.

Ibiti by'igitari kiri gushibuka ni binini birimo bikuze, ibiti ni ingirakamaro birwanya amasuri, kandi tukabyifashisha turi kubaka kuko bivamo imbaho, bikavamo n'intebe zo kwicaraho. Kugira ngo abanyeshuri bicare ni uko tuba dufite ibiti bihagije, tubazamo intebe.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi butanga umusaruro mwinshi kandi ushimishije, ku buryo iyo uhinze ibirayi mu mezi atatu uba wasaruye byamaze kwera. Bivuze ko iyo umwaka urangiye ubu umaze gukora ubuhinzi bw'ibirayi inshuro eshatu mu murima umwe. Ibirayira ni ingirakamaro, kubihinga bitanga umusaruro vuba vuba.

Imyembe igira akamaro kanini cyane kubi bijyanye n'imbuto. Urusenda narwo rufite akamaro gakomeye cyane, iyo ugiye kurya ibiryo udafite apeti, rutuma ugira ubushake bwo kurya ibiryo ukumva biryoshye.

Iyo abahinzi bishyize hamwe，barahinga bakabona umusaruro uhagije kandi ushimishije， kuko basarurira icyari rimwe， imyaka yabo ikererera rimwe， kandi barayihingiye rimwe， bigatuma umusaruro uboneka ari mwinshi， kandi barahinze mu gihe gitoya.

Amateke afite umumaro munini cyane, iyo uyariye ugira imbaraga, ukaba ushobora guhinga umushike ukawurandaguza, kubera ko wariye amateke. Umuntu wariye amateke aba akomeye, afite imbaraga nyinshi zo gukora akazi, kuko aba yariye indyo imufashe.

Amateke ni ingirakamaro ni ibiryo turya bikadufasha gukomera no kugira imbaraga. Ni igihingwa dutera mu mazi arengewe, ariko mu butaka mu byondo hasi wajya gukura, ugakura inguri yo hasi. Aya mateke araryoha cyane, agira n' amafu arafufuka.

Abahinzi bari kwakira ibiti bitandukanye byo gutera, harimo amatunda inturusu, amapera, gereveriya n'ibindi bitandukanye. Bitabiriye ari benshi. Abagore, abagabo, abakobwa, urubyiruko mu rwego rwo kugira ngo ibiti byacu bitere imbere.

Ipera ni igihingwa kimeze neza cyane abanyarwanda dukunda guhinga, kandi kugira ngo kere ntikiruhanya kuko kizana imbuto, iyo zibaye umuhondo turazirya kuko ziba zamaze kwera. Iyo izo mbuto zimaze gukomera turazirya kandi ni umusaruro ushimishije cyane gitanga.

Ibijumba ni ingirakamaro biri mu biribwa bitera imbaraga. Iyo ubiriye ujya mu murima ugahinga ukagera ku mugoroba wumva ugikomeye, kubera ko wariye ibijumba. Ni byiza rero kubihinga tukiteza imbere, kandi bikaduha umusaruro.

Amateke ya bwayisi ni amateke meza cyane, agira amafufu, arafufuka, umuntu wariye amateke ya bwayisi aba afite imbaraga ku buryo iyo waraye uyariye, mu gitondo uba wumva ugihaze, uba ufite imbaraga ku buryo ushobora guhinga umushike ukawurangiza.

Ibigori ni igihingwa kiba kimeze neza cyane, ku buryo iyo cyeze ukagica, ukagiteka, urakirya ukumva kiraryoshye. Kandi iyo ushaka amafaranga ushobora kugishyira ku isoko, ukakigurisha ukabona amafaranga. Duhinge rero twivuye inyuma kuko ibigori ni ingirakamaro.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni ubuhinzi bworoshye cyane. Iyo uri gusarura ibirayi ubisaruza intoki nta suka. Ugenda urandura ukoresheje intoki, ugakuramo ibirayi ushyira mu mufuka. Ibyasigaye mu murima iyo uri guhinga ugenda ubikuramo na byo, ukaza kubijyana mu rugo.

Kera guhinga wari umurimo mwiza cyane. Aho umusaza yateraga isuka ku rutugu. Mu gitondo akajya guhinga agatahana umubyizi. Saa sita cyangwa se nimugoroba. Guhinga ni ibintu bidufasha kubona ibiribwa bitandukanye. Kuko twese tudahinze ntabwo twabona ibyo turya.

Ibirayi binini birunze hamwe bisa n'umutuku. Harimo bimwe byaboze, ibindi bizima. Byose byivanze hamwe, hari agatanda hirya kagaragaza ko ibirayi babitondekamo neza, kugira ngo babashe gutandukanya ibizima n'ibyaboze.

Ibigori ni ingirakamaro biri mu biribwa bitera imbaraga, ku bihinga ni ibintu biba byoroshye, gucukura ibyobo ukagenda utera ku byobo, hanyuma ukazaza kubagara, nyuma ukuhira, bigeraho bikera bikumira ku biti byabyo, tukabisarura, tubimanika tubijishije, washaka kubetesha kawunga ukabibetesha ukarya umutsima, washaka no kubirya ari bibisi wabirya ari bibisi, utari wabisarura, ibigori ni ingirakamaro cyane.

Imbuto ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, iyo uziriye zituma ugira umubiri umeze neza, kandi uba ufashe indyo yuzuye, iyo umaze kurya ibiryo na zo ukazirya. Imbuto ziri mu birinda indwara zituma tutarwaragurika cyane.

Gucagurira avoka y'imbangurire ni ingirakamaro, kuko bituma avoka izamuka ikerera hasi kandi ikera avoka z'imbangurire. Ni byiza rero kubangurira avoka, kuko bituma yera avoka ifite akabuto gatoya kandi iryoshye cyane.

Amagi ni ingirakamaro iyo umwana ariye amagi afite ikibazo cy'imikurire, bituma akura neza akagira umubiri mwiza, kandi ukabona uruhu rwe runyereye, kubera ko amagi yifitemo intungamubiri ihagije ku mwana, ndetse no ku muntu mukuru.

Ibigega bidufasha kuvomerera imyaka igihe habayeho kuva ku izuba. Ibigega ni ingirakamaro kubera ko iyo imvura iguye dufata amazi y'ibigega tukayashyiramo, hanyuma izuba ryava tukazayifashisha mu gihe cy'izuba.

Inka ebyiri ziri konka inka imwe, inka iba ifite amata menshi cyane ku buryo ishobora kwakira inka irenze imwe, inka ibyaye inyana irenze imwe iba ari inka itanga umusaruro ushimishije, ariko na yo ikitabwaho mu kuyigaburira kugira ngo itange amata menshi.

Inkoko y'isake ni inkoko itanga umusaruro vuba kandi igakura vuba cyane abantu bakunda inyama bakunda kurya isake, kuko niyo igira itako rihagije kandi ribyibushye ni byiza rero korora inkoko kuko tubona umusaruro ushimishije.

Iyo ibigori bimaze kuzamuka hirya no hino ukanyuramo, unyuramo ufite ubwoba, kubera ko ibigori biba byarazamutse bikagera hejuru, hakurya no hakuno, ku buryo iyo urimo, uba ufite ubwoba uri gutambuka mu kayira uri kuvuga uti:"Hagize ikintu gisosohoka mu no gishobora kundya".

Umurima munini w'ibihingwa by'inyanya, ukikijwe n'ishyamba n'ibiti bitandukanye, harimo imigano n'ibindi, inyanya zifite imbuto zintoto, ntabwo zari zahisha neza cane kugirango tuzisarure.

Umudamu uri gusarura icyayi, icyayi ni ingirakamaro cyane kidufasha gususururuka mu gitondo cya kare ,iyo ubyutse ugafata icyayi ugenda wumva umeze neza mu nda no mu mubiri ndetse ukumva urasusurutse.

Abagabo babiri bari mu murima w'ibishimbo, bishingirijwe ibiti by'imishingiriro miremire, ibiiti bita imbingo canga imuri, bari kugenda baragabanyaho imishogororo kugira ngo ibishyimbo bitaza guhirima.

Ibirayi ni ibihingwa byera vuba kandi bitanga umusaruro ushimishije, iyo wabihaye ifumbire ihagije kandi ugasarura icyarimwe, ntakujyamo rimwe na rimwe. Ni byiza rero guhinga ibirayi, kuko ni ingirakamaro.

Guhinga ibijumba ni ingirakamaro. Ibijumba bitanga umusaruro ushimishije, iyo ubihaye ifumbire birera. Kandi icyiza cyabyo, iyo ugiye gukura, ugenda ukura duke duke, ntabwo ari ngombwa ko ubikurira rimwe, kugirango ngo ubirunde icyarimwe. Ukura akayogi kamwe, ukazasubirayo gutyo gutyo, kuburyo ushobora kumara amezi abiri atatu, uri gukura ibijumba muri wa murima.

Voka zifite akamaro kanini cyane ku buzima bwacu, ziri mu mbuto zidufasha gukura neza, mu kuzuza indyo yuzuye umuntu agakura neza nta kibazo.

Ibicuruzwa bitandukanye， intoryi， ibibiriganya， ibitunguru n'ibindi. Ni ibicuruzwa byoroheje， ushobora gucuruza ufite amafaranga makeya， kandi ukiteza imbere，ukagenda uzamuka buhoro buhoro.

Abantu bacuruza inyanya imboga z'ubwoko bwose ni ingirakamaro kubera ko iyo uriye ibiryo birimo imboga nibwo uba uriye intungamubiri yuzuye, n'inyanya zikadufasha gukora isosi ituma ibiryo byoroha kandi bikaryoha bigatukura.

Umworozi ni umuntu udashobora gusiga ibyatsi ku nzira aho ageze hose akahasanga ibyatsi ahita abyahira, iyo asanze birunze ku muhanda ahita abiyobora kugira ngo aze kubijyanira itungo rye rize kubirya. Umworozi ntabunebwe agira mu gutwara ibyatsi by'amatungo ye.

inyanya n'intoryi ni ibiribwa byiza cyane, iyo ugiye kubirya ukabikaranga, ukabitekana, biba byabaye isosi kandi imeze neza, irimo agasharire, ku buryo iyo ufitemo inzoka yanga ubusharire ukarya n' intoryi nyinshi bituma wumva umeze neza cyane mu nda.

Indabo zimeze neza cyane. Indabo ni ikimenyetso cy'urukundo. Indabo iyo zitatse ahantu, biba bigaragaza ko ufite umunezero, ufite n'ibyishimo, kandi indabo zikurura amahoro ahantu hose. Niyo mpamvu abantu benshi bakunda gutaka indabo nziza cyane mu ngo zabo.

Inyanya y’igihingwa gitanga umusaruro mu gihe gitoya, ariko nanone kigapfa mu gihe gitoya kubera ko, iyo imvura iguye ari nyinshi, usanga zihise zibora ntizitange umusaruro, kurusha uko, iyo akazuba kavuye ukazishingira, zitanga umusaruro ushimishije kandi umuryango ukanywa isosi wishimye.

Ubuhinzi bwateye imbere, abantu bafata amahugurwa y'ubuhinzi, bakabajyana ku murima bakabereka bati:" Dore uko bahinga kijyambere, dore uko bahinga mu kajagari, ibyiza ni ibi, ibibi ni ibi, tugendere kure ibingibi". Abantu bahuguwe, bakaza bagashyira mu bikorwa ibyo bahuguwe.

Amashu ni igihingwa cyera vuba ,kandi kigatanga umusaruro ushimishije mu gihe gitoya. Amashu ni ingirakamaro ,abantu bayahinga iyo uyahinze neza ,ugashyiramo intera uko ingana ,ugasasira, ishu ryera rimeze neza cyane, kandi ridafite ibitaka ugasanga ritanze umusaruro ushimishije.

Intoryi nyinshi nziza cane zirunze hamwe zikiri ntoto, zifite umuhondo. Intoryi zifite intungamubiri nyinshi tuzifata nk'imboga mu biribwa.

Ibirayi ni ingirakamaro cyane, abantu babihinga mu majyaruguru baba bafite amafaranga menshi cyane, kuko iyo byeze uhita upakira mu mifuka ukohereza i Kigali no mu ntara zitandukanye hose, ukabona amafaranga ashyushye.

Voka y'imbangurirano ni voka nziza cyane, iba ishimishije ku buryo iba isa n'umuhondo mo imbere. Iyo uyiriye uba wumva imeze nk'amavuta kandi imeze neza cyane ku buryo ituma wumva ufite apeti yo kurya ibiryo cyane iyo uri kuyirira ku biryo.

Amatunda ni ingirakamaro mu buhinzi bwayo, iyo uhinze amatunda ukabigira umwuga, bituma witeza imbere mu rugo rwawe, kubera ko amatunda arera cyane, kandi ku isoko aba akenewe, abantu benshi baba bakeneye kurya imbuto z'amatunda.

Intutu ni imbuto nziza cyane amababi yayo tuyifashisha mu rwego rw'imiti ivura uburwayi butandukanye, iyo umwana arwaye inkorora ukanjakanja utubabi tw'intutu ukamucira mu kanwa, cyangwa se yaba ashoboye kwihekenyera agahekenya akamira utuzi, ugasanga inkorora ihise ikira byihuse.

Abagabo n'abagore bishimiye kujya gutera ibiti byabo buri wese afite igiti ce agiye gutera yishimye kandi yizihiwe abagabo babukereye bambaye amapantaro n'amashati n'abadamu bambaye inkweto zifunze n'amapantaro n'imipira.

Kwishyira hamwe ni ingenzi tukubake akarima k'igikoni, kubera ko akarima k'igikoni kari mu bintu bifasha urugo kwihaza, kwakira indyo yuzuye tugaburira abana bacu. Iyo ufite imboga mu rugo, ibiryo byose utetse usoroma imboga ugashyiraho, bigatuma ubona umusaruro ushimishije mu bana bawe bagakura neza.

Ubucuruzi bw'imbuto ni ubucuruzi bwateye imbere mu Rwanda, aho umuntu ashobora gucuruza ibicuruzwa by'ubwoko bwose. Inyanya, amakaroti, imyembe, ibitunguru, imboga, dodo, avoka n'ibindi.

Ahantu hari ibiti byinshi bitandukanye， ni ahantu haba hafite amahumbezi， ku buryo iyo winjiyemo uba wumva uhumeka neza cyane， ni byiza ko dufata ingo zacu tugateraho amajaride， ndetse tugateraho n'ibiti bituma duhumeka neza.

Imbuto zitugirira akamaro kanini cyane, iyo umuntu aziriye aba ame neza, cyane iyo ufashe ifunguro nyuma yo kurya rituma umera neza, kandi ufashe indyo yuzuye kubera ko ufashe imbuto. Tuzi neza ko akamaro k'imbuto, imbuto zirinda indwara.

Aho batunganyiriza ibiti. Ibiti ni ingirakamaro kanini cane bidufasha kurwanya amasuri tubyifashisha kandi iyo ahantu hateye ibiti bituma ikirere imvura igwa ibiti kubera ko bikura imvura.

Ubuhinzi bw'inyanya ni ubuhinzi bwateye imbere cyane, aho inyanya uhinga ukajya usarura izo hasi zitukuje ukajyana ku isoko buhoro buhoro. Guhinga inyanya bifite umumaro munini cyane kuko uhorana amafaranga iyo zeze.

Ibihingwa by'ibijumba， ibijumba ni ingirakamaro mu buzima bwacu. Iyo ubihinze urabikura ukabijyana ku isoko，ikiza cyo guhinga ibijumba，ni uko ugenda ukuraho duke duke ujyana mu rugo， n'ibisigaye bikaguma mu murima， bitagusabye kubikurira rimwe.

Inka ziri mu rwuri rutoshe zibyibushye nk'izifite ururwuri ruhagije, hakurya hari urwuri runini rufite ubwatsi bugeze hejuru, inka nazo zirabyibushe cane zifite ishyaka ryo kurya ubwatsi no gukinagira mu rwuri rwazo.

Voka ni igihingwa gishimishije cyane, usarura mu gihe wari utazi. Ni byiza ko abanyarwanda twashyira hamwe tukajya dutera avoka ku mirima yacu, ndetse no ku muhanda, kubera ko voka ni ikiribwa cyiza kidatwaye amafaranga, iyo ubonye zeze uyoberwa n'uko byagenze, kuko uba uzifite ku rugo.

Ibirayi ni ingirakamaro cyane. Iyo ugiye kubiteka abana barishima bakanezerwa, kuko ushobora kubiteka mu mavuta. Ugasanga abana bose baretse gusinzira, bategereje kurya ifiriti, kubera ko barayikunda cyane.

Umubyeyi uri gucuruza ibinyomoro, amatunda, afite ibase n'agapaniye, yicaye ategereje abamuteza imbere, ari gucururiza ku gafuka gakebye, karambuye neza cane.

Ibinyomoro ni ingirakamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo uriye ikinyomoro uba wongereye amaraso, cyane ko iyo umuntu afite amaraso make mu mubiri bamutegeka kurya ibinyomoro kumwe na beterave. Ibinyomoro rero mu Rwanda turabikunda cyane kubihinga ndetse ubu ngubu, bamwe basigaye banabigemura mu masoko hirya no hino.

Gutera ibiti ni ingirakamaro, ibiti biri mu bidukikije bituma imvura igwa ndetse ibiti biri mu bintu birwanya isuri n'ibindi. Ni byiza rero gutera ibiti ku miringoti n'ahandi hose biri ngombwa kugira ngo twirinde amasuri, ndetse tubungabunge ibidukikije.

Igiti cumwumbati gisasiye kiza cane gifite amabara matoto kikiri hasi kiri mu murima mugari hagati y'igiti n'ikindi harimo intera nk'iya metero eshatu uva ku giti kimwe cy'umwumbati ujya ku kindi.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bushimishije cyane, aho ubuhinze agashyiraho imvaruganda butanga umusaruro uri hejuru, ku buryo ushobora kwifuza kuzakomeza guhinga ibigori bitewe n'umusaruro wabonye ukuntu wari ushimishije.

Umubyeyi uri kubagara ibigori; kubagara ibigori ni ingirakamaro kuko bituma ibigori byihuta kandi bigakura neza. Iyo ukuyeho ibyatsi, imizi yabyo nibwo itembera igafata ifumbire, igashisha, ikaba neza, ubundi wabiha itaka bikagenda neza.

Iyo abanyarwanda twishyize hamwe， turakora kandi tukagira umurava，tukagera ku cyo twiyemeje. Ni byiza rero gushyira hamwe， tugakora akazi dushyize hamwe， kugira ngo tugere kuri byinshi， kandi twiteze imbere nta kibazo.

Ubunyobwa ni impeke nziza cyane, zidufasha gukora isosi. Iyo ufashe ubunyobwa ukabushira mu biryo, bituma ibiryo bigira isosi ifashe. Ku buryo iyo uri kubirya uba wumva biryoshye cyane, kandi bimeze neza byoroshye.

Ibitunguru bidufasha guteka indyo imeze neza ihumuye, kandi ifite ubuziranenge, iyo utetse ibiryo ukabikaranga, ukabishyiramo ibitunguru ,bituma ibiryo bihumura neza kandi bikaryoha, ku buryo uturutse ku irembo bayumva ibiryo watetse biri guhumura.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugura ibirayi harimo abapapa n'abadamu, ibirayi bitoya n'ibini biri amoka atandukanye ubwokobu bumwe buri ukwabwo, n'ubundi ukwabwo, n' ibiciro bigiye bitandukanye bigendeye ku birarayi uko bimeze.

Ibigori ni ingirakamaro iwacu mu majyaruguru, iyo uhinze ibigori, ugashyiraho ifumbire mvaruganda, bitanga umusaruro ushimishije cyane, ku buryo ikigori kimwe ushobora kugitera umurima, ukazasaruramo imifuka ibiri cyangwa itatu.

Igihwagari kinini ciza cane ceze, camajije kuma kiri kumwe n'ibindi byinshi cane mu murima. Ibihwagari ni ingirakamaro kanini cane, kubera ko tubikuramo amavuta yo kurya.

Ibihwagari ni ibihingwa bifite akamaro kanini cyane, kuko birera cyane, kandi bigatanga umusaruro ,tukabikoramo ibindi biribwa bitandukanye ,ugasanga igihugu cyacu kiri kwiteza imbere, kubera ubuhinzi n'ubworozi.

Imiteja ifite akamaro kanini cyane, tuyifata nk'imboga. Imiteja iyo wayikaranze ukayiteka neza cyane, iba iteye apeti mu kuyirya, kandi uba uriye ibishyimbo, ukarya n'imboga icyarimwe.

Igihingwa cy'igihwagari kikiri gitoya kikiri hasi, gifite imbuto zigisa n'umuhondo kitari cera, gifite ifumbire rihagije kuko kirashishe kandi ni kinini cane.

Umubyeyi uri kugosora ingano, ingano ni impeke nziza cyane twifashisha mu gukora umutsima w'ingano no mu gikoma. Ingano zifite akamaro, zifite intungamubiri ikomeye, iyo uziriye ugira imbaraga nyinshi cyane.

Ibigori by'impungure ni ibigori umuntu arya yishimye cyane kandi akumva biraryoshye. Iyo umaze kurya ibigori uba wumva mu kanwa wananiwe, ariko n'umundi udahaze ukumva ushaka gukomeza kurya. Ibigori rero ni byiza cyane kubirya, bituma ugira imbaraga nyinshi.

Ibishimbo by'amabara y'umutuku umweru n'ibishimbo byera neza cane bashingiriza ibiti birebire bakabagara bakanabyegura iyo byaguye n'ibishimbo bitanga umusaruro mwinshi iyo byagiza ikirere ciza.

Imiteja idufitiye akamaro kanini cyane. Imiteja iri mu bwoko bw'imboga， ndetse n'ibishyimbo hari icyo twita umushogoro， bigira umushogoro， iyo uwusoromye uwurya nk'imboga. Tuzi ko imboga ziri mu birinda indwara. N’imiteja rero，ni myiza cyane，tuyibara mu bwoko bw'imboga.

Umudamu usarura tungurusumu wambaye ishapule, agatambaro n'isengeri y'umweru tungurusumu ze zareze cane ni nyinshi zifite impeke nini cane impande ye hari ibigori byeze basaruye.

Ibishyimbo ni ingirakamaro iyo tubihinze bizana imiteja, tugasarura cyangwa se tugasoroma intonore, ndetse n'amababi yabyo bimwe bita umushogoro na byo turabirya ukumva nta kibazo. Imiteja rero ifite indyo yuzuye, iyo uyiriye uba uriye ubwoko bw'imboga kandi tuzi ko imboga n'imbuto biri mu birinda indwara.

Ibihingwa by'ingano byereye rimwe, ziteye zegeranye urugano rumwe ku rundi urundi ku rundi, zifite impeke zikuze ndende agati kamwe gafite impeke zavaho urushi.

Ubuhunikiro ni ingirakamaro kanini cyane ku baturage, bituma abaturage batagurisha imyaka ya bo iteze ikiri mu murima, bagategereza gusarura kugira ngo bahunikire hamwe, kandi bazakire amafaranga icyarimwe, bayakoreshe umurimo ushimishije.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane kandi gitanga umusaruro ushimishije, aho ibigori ubihinga ukabishyiraho ifumbire, ukabona umusaruro, ukaba ushobora gukuramo ifu ya kawunga, ushobora kubihinga, ukabitekamo amahundo cyangwa se ukabikoramo umutsima usanzwe ndetse n'igikoma.

Soya ziteye neza cane, ku muronko hagati y'umurongo n'undi harimo intera ishimishije , ingana n'iyindi kuri buri muronko. Nundi umurima munini cane ugera kuri hegitari uhinzweho soya, izatanga umusaruro uhagije kandi ushimishije.

Ibishyimbo bishingiriwe bikoresheje imigozi, n'ibishyimbo bitanga umusaruro ushimishije, uretse ko kubikora ari ibintu bivunanye cyane utapfa kubigeraho, kubera ko kubikora bisaba umwanya ndetse n'imigozi ukagenda uzirika uzirika, igishyimba kizamukira kuri wa mugozi.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane. Iyo ubibye amasaka ukayabagara ukayahingira atanga umusaruro. Aya masaka urayafata ukayatera ivu, akavamo amamera hanyuma ukabetesha ukinywera umusururu. Kera Abanyarwanda ba kera bahoranaga agasururu mu gacuma cyangwa se mu kabindi.

Ubucuruzi bw'impeke zitandukanye :amasaka, umuceri ,ingano ibishyimbo, amashaza, ibigori n'ibindi ,izi mpeke zidufasha kubona igikoma kimeze neza bigatuma umwana akura neza kubera ko yanyoye igikoma kirimo intungamubiri zose.

Ibishyimbo bya nyiramukara ni ibishyimbo uteka ugasanga isosi yabyo yabaye umukara. Ku buryo iyo wabitetse bidasaba ngo ushyiremo inyanya, salisa n'ibindi. Bisaba ngo ubiteke ubundi amamininwa yabyo uyatekeshe ibindi biryo uko bisa n'umukara kandi bifashe.

Umukecuru ugiye kuzika amatungo magufi intama amatungo magufi adufitiye akamaro kanini cyane iyo ugize ikibazo kuyagurisha birihuta ugahita ubona amafaranga byihuse.

Korora inka ni ingirakamaro bituma twiteza imbere mu buryo butandukanye cyane mu buhinzi, iyo udafite ifumbire ntabwo ushobora guhinga imyaka yawe ngo igende neza, kubera ko ifumbire ituma imyaka yihuta kandi igatanga umusaruro ushimishije.

Abaganga ni abantu bitanga cyane kugirango ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza. Ni byiza rero ko abana dufite bagomba kwiga, tugashyiramo agatege kugira ngo na bo bazabe baganga b'ejo hazaza, kuko kuvura ni ibintu bihoraho iteka ryose.

Korora inkoko ni ibintu bitanga umusaruro ushimishije iyo woroye inkoko ziri mu rugero rumwe, zikazamukira rimwe, usanga zitanze umusaruro mwiza cyane kandi ushimishije, ku buryo ushobora kuzishyira ku isoko icya rimwe, ukabona amafaranga atubutse. Ukazagura izindi ntoya ugakomeza gutyo gutyo.

Inyamaswa z'uyu munsi zateye imbere, kubera ko zivurwa n'abaganga batandukanye, bakazipima indwara zose kurusha n'uko bapima umuntu, twateye imbere rero mu Rwanda, aho umuntu agira imbwa, akayivura, akayitera imiti, ku buryo iba ifite ubuziranenge n'ubuzima nk'ubw'abantu.

Intama n'amatungo magufi, atuma igihugu cacu gitera imbere, aho rubanda rugufi, rudashoboye kugura inka, rugura intama imwe, imwe ikagenda ibyara ebyiri ebyiri, ugasanga umuntu yiteje imbere iwe, kubera amatungo magufi.

Inkaya itanu ziri mu rwuri ziri kurisha, zirangamiwe imbere n'abashumba benshi b'abagabo bahagaze bari kuzireba, izo nka ziratandukanye harimo inyana n'inkuru.

Abahungu babiri bari kumwe n'umukobwa, barangajwe inyuma n'abandi bapapa babafashije agahene, bari kukavura, bafife umukasi, bari gushiramo imiti aho bakase n'imakasi. Agahene urabona ko kameze nk'akapfuye, karandamye.

Amatungo magufiya atanga umusaruro ushimishije, kuko ushobora korora ihene imwe ikabyara izindi ebyiri, waba ufite ihene eshatu zose zikabyara babiri babiri, ugahita ugira ihene esheshatu. Ni byiza rero korora amatungo magufi kuko atanga umusaruro vuba vuba.

Amahugurwa ajyanye n’ubworozi ni ingirakamaro, atuma abaturage babasha korora amatungo yabo neza mu buryo bwa kijyambere. Bigatuma abaturage biteza imbere mu buryo bumwe n’ubundi, kandi bikazamura iterambere ryabo.

Ubuvuzi bw'inka ikiri ntoya bufasha inka gukura neza, iyo ifite uburwayi ukayitera vitamini, ukayitera n'indi miti, bituma izamuka neza, igakura nta cyo yishisha ku buryo izamuka vuba vuba, ukabona iri gukura vuba iri gutanga umusaruro ushimishije.

Ingurube iri mu bworozi bumwe, butanga umusaruro mwinshi mu gihe gitoya. Ni byiza rero kororora ingurube, kuko ingurube imwe ishobora kubyara ingurube icumi, ugasanga ingurube itanze umusaruro ushimishije, mu gihe gitoya cy'amezi atatu.

Inka ni ubutunzi bukomeye cyane, Abanyarwanda bakunda kuba bafite, kubera ko ufite inka aba afite umugeni, kuko ufite umugeni aba afite inka, inka bayita Mukobwajana.

Inka ni ubworozi bushimishije cyane kandi butanga umusaruro ushimishije w'amata ndetse n'inyama, bituma amata umwana iyo ayabonye akura neza kandi akazamuka neza, ni byiza rero korora ubworozi bw'inka.

Inka ya kinyarwanda ifite amahembe ateze neza cane maremare. Ifite amabara y'umweru n'isine, ari yo itwita ikivuvu n'isine. Iri kumwe n'akanyana kayo n'izindi ebyiri biteganye, nziza cane.

Inyama zidufitiye akamaro kanini cyane mu buzima busanzwe, inyama turazikunda cyane mu majyaruguru kuzirya, kubera ko inyama ni ibintu bishimishije abana barabirya ukabona barishimye, wabiteka mu rugo ukabonabona bose bari gusimbuka reka sinakubwira.

Gukurikirana no kuvura amatungo ni ibintu bitanga umusaruro ushimishije, kuko bituma amatungo akura neza, akazamuka neza, agatanga umusaruro ku uyoroye. usanga umuntu yoroye itungo ryararwaye ryarahwereye, kandi afite ubushobozi bwo kurivuza no kurikurikirana. Ni byiza ko dukurikirana amatungo yacu.

Inka ziri murwuri nyinshi cyane zitandukanye zirenga icumi zose zifite umurava umwe wo kurisha ubwatsi ahantu heza cane hari ibiti by'amahumbezi.

Ikiraro cy'inka ni ikiraro gifite akamaro gakomeye kanini cyane gatuma inka itanyagirwa. Iyo inka inyagiwe ikaryama mu ijadwe, ishobora kurwara indwara zitandukanye harimo uburengenge ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, bigatuma inka isubira inyuma ntikure neza.

Inka nziza cane ebyiri zifite amabara y'ikibamba imwe n'umukara. N'inka zibyibushe cane ziri ahantu hafite amahumbezi ndetse n'ubwatsi bwinshi.

Amagi manini cane menshi, kandi asa n'umweru, afite intungamubiri nyinshi, kuko aba afite umuhondo ufasha umwana gukura neza.

Amagi ni ingirakamaro atuma umwana akura neza, akazamuka yifitemo umuhondo mo imbere, uwo muhondo ugira ingirakamaro cyane ku mwana iyo awuriye akura neza akazamuka afite itoto.

Inka ni ikimenyetso cy'urugo rurimo amata kandi rurimo abakobwa. Kera bavugaga ko urugo rurimo umukobwa rwatahagamo inka, urugo rurimo inka na rwo rugatahamo umugeni.

Igihangara ni igisimba kiba hejuru y'inzu giteye ubwoba cyane, iyo umwana akibonye ahitaga yiruka. Igihangara kandi iyo kikuguyeho, gishobora kugutera ubumara, ukaba warwara indwara itazakira, ndetse ushobora no guhita upfa.

Umuserebanya ni agasimba gakunda kota izuba cyane, gakunda kuba hejuru y'amategura cyangwa se ku mabati hejuru, iyo akazuba kavuye gahita kajya hejuru ku kazuba, ku buryo gashobora no guhagarara ahantu ku kiyaga hejuru, aho akazuba kari, kugira ngo kiyotere.

Umuyongoyongo mwiza cane muremure, ufite ijosi rirerire w'amababa y'umweru, ijosi ry'umuhondo umunwa w'umukara n'amaguru maremare cane. urimo uratambuka wemye uri kureba hejuru.

Utunyamasyo, ni udusimba tugenda buhoro buhoro cyane tudashobora kwihuta, gashobora gukoresha urugendo rw'umunota umwe, ugasanga ko karukoresheje mu masaha abiri cyangwa amasaha atatu, kugira ngo kagere aho kari kagiye.

Ingagi : Ingagi zifite akamaro kanini cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ingagi ba mukerarugendo baza kuzireba no kuzisura, bigatuma twinjiza amafaranga mu gihugu, imisoro n'ibindi, bigatuma igihugu cyacu kizamuka, tukiteza imbere.

Ipusi zigira akamaro kanini mu ngo zacu, zituma imbeba zitaba mu nzu, ndetse zikirukana utunyamaswa duto duto, kuko iyo tuzibonye utunyamaswa ziraturya, ni byiza rero korora ipusi mu nzu, ituma mu nzu nta mbeba nta mwanda urangwamo.

Ikinyoni kinini cy'umuhondo cy'amaguru y'umuhondo gifite umunwa w'umuhondo, amaso y'umukara, umutwe w'umukara munsi ya mababa hasa n'umweru kiri kuguruka kishimye cyane kiri mu kirere.

Inyoni ni zimwe mu nyayamaswa zizi kukaka neza cyane zikoresheje umunwa wazo, kandi zikubaka icyari cyiza, gikomeye, zishobora kuzatereramo amagi, bityo zikarurizamo utwana twazo, ugasanga ahantu turi nta mvura itugwaho kandi tumeze neza cyane.

Utunyoni ni utuntu dushimisha abantu, aho tuba twibereye, duhagaze, buri wese iyo atugezeho aba ashaka kutureba kugira arebe ukuntu tumeze bitewe n'ukuntu abona dusa neza, dufite amababa meza kandi tuguruka neza cyane nk'utunyange.